Iyi ni ifoto igaragaza umunsi mpuzamahanga w'umurimo ufite insanganyamatsiko yitwa " Ahazaza h'umurimo intego dusangiye". Yabaye ku itariki ya mbere, Gicurasi, bibiri na makumyabiri na kabiri. Harimo umugabo n'umugore bashushanyije, umwe ni umuganga undi ni umwarimu. Harimo n'abandi bari gukora ibikorwa bitandukanye.

Uyu ni umunara muremure ukikijwe n'indabo zisa icyatsi ndetse n'umuhondo, inyuma yawo hari kandi n'ibiti bigiye bitandukanye harimo ibirebire n'ibigufi, hari kandi n'amazu menshi atandukanye inyuma yawo, imbere yawo kandi hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu n'umuzenguruko w'umweru gisobanuye kunyura mu muhanda uzengurutse.

Hano hari abagabo batatu bambaye amataburiya y'umweru, bari gukorera kuri mudasobwa zitandukanye, harimo kandi n'akabati karimo impapuro, harimo n'izindi mashini z'ubwoko butandukanye zirimo izo abantu babanyuzamo ngo barebe indwara baba barwaye.

Iki ni igikamyo gitwara amavuta gisa nk'aho cyafashwe n'inkongi y'umuriro hari umugabo uri kukizimya yifashishije amazi cyafatiwe n'inkongi y'umuriro mu muhanda rwagati.

Iyi ni ifoto irimo abantu benshi cyane. Irimo kandi n'inzu nyinshi cyane, irimo kandi n'uwahoze ari minisitiri w'intebe wa repuburika y'u Rwanda mu gihumbi kimwe na magana icyenda mirongo icyenda na kane, ariko aza kwicwa. Yitwa Agata Uwiringiyimana.

Uyu ni umugabo ushinzwe amasuku ari gusunika ibishingwe ku ngorofani kandi kuruhande rwe hari imodoka, kurundi ruhande rwe hateye igiti kandi hari n'akazu munsi yiwe kasa icyatsi ndetse n'ubururu.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abantu babiri bagenda n'amaguru ndetse n'uwundi umwe uri ku igare, hari kandi n'igikamyo gisa icyatsi kinini, iruhande rwawo hari ruhurura ndende kandi harimo n'ibiti birebire ku ruhande rwawo.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki abiri ndetse n'igikamyo kimwe, harimo kandi n'umugabo wikoreye imifuka ibiri harimo kandi n'undi uri kugenda n'amaguru, hirya yawo hari kandi ibiti birebire bisa icyatsi, hino yawo naho hari ruhurura ndende.

Iki ni icyapa gifite ubuso busa ubururu ibimenyetso biri mu ibara ry'umweru umuzenguruko wacyo ni umukara. Kerekana yuko aho hantu kiri hemerewe kuza imodoka zikahahagarara umwanya mutoya.

Uyu ni umuhanda uciyemo ibice bibiri harimo imodoka imwe iri kugenda ndetse n'abantu batandukanye, ku mpande zawo hatri ibiti biteye hari kandi n'ama n'amapoto maremare ariho amatara yaka harimo kandi n'inzu ndende.

Uyu ni umuhanda w'amatafari ahiye ku mpande zawo harimo ibyatsi bisa icyatsi ndetse harimo n'umuntu uri kuwugendamo.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibikamyo, amagare ndetse n'amapikipiki hari kugendamo kandi n'abagore babiri, hejuru yawo hari ikiraro kinini cyane kiri kugendaho ibinyabiziga harimo n'imodoka itukura, hirya yawo hari ibiti birebire cyane by'icyatsi ndetse n'ipiloni.